Abantu bameze nk'abantu bari kubyina, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, icyatsi, umutuku, n'umuhondo, bafite ibyishimo.

Abasore n' inkumi bari mu kabyiniro; ako kabyiniro karimo amatara, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ubururu, imituku n' icyatsi.

Inzu ifite inkingi z'amatafari ahiye, ifite n'icyapa cyanditsweho ngo pirimusi, isa n'aho ari depo y'inzoga, izi bita pirimusi.

Inyama ni ikiribwa cyiza cyane, inyama zigira intungamubiri zubaka umubiri. Inyama zirahenda kuko abantu benshi ntibashobora kuzigura ahubwo zigura abantu basa naho bakomakomeye.

Izi nyama ziri ku cyokezo kuko zikundwa n'abantu benshi, ariko ntabwo bose bashobora kuzigura, kuko izi nyama zo ku cyokezo zirahenda cyane zihendukira abantu bishoboye bafite amafaranga menshi.

Abasore n'inkumi bicaranye bishimye, bafite uruhu rutandukanye harimo abameze nk'abazungu, n'abirabura, basa n'aho bishimye wagira ngo bakoze umunsi mukuru.

Inzu y'ubucuruzi bw'inzoga ,harimo intebe nyinshi abakiriya bicaramo, harimo n'amashusho abiri ,kari kurebeka hejuru y'izo ntebe .Izi ntebe zifite amarangi asa n'aho ari umuhondo ,andi n'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro igiye gusa n'ubururu n'ishati y'umweru y'amaboko maremare, uyu mugabo impande ye hari ibyapa biri ku nzu yubakishijwe amatafari ahiye asize irangi ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ifite inzugi za metalike zisize irangi amarangi yubururu, impande umuryango hahagazemo umusore wambaye ipantaro yikoboyi, n'umupira w'umweru, ahagaze imbere yumuryango hagati.

Inzu yubatse isize irangi ry'umuhondo, hejuru hariho amakaro ifite inzugi za metalike, harimo n'amarido y'umweru.

Umugabo uri kugenda asa n'aho agiye kwambuka umuhanda, ari gusanga ziriya modoka kugira ngo azijyemo zimujyane mu rugendo afite. Impande y'izo modoka hariho imitaka ya Emutiyene.

Inzu z'amagorofa y'ingerekerane asize amarangi y'ubururu. Hasi yayo hahagaze abantu benshi basa naho ari abamotari bari gutegereza abagenzi.

Amarembo y'inzu ariho ibyapa, hejuru ya ho hariho amacupa, ari kwerekana ko iyo nzu icuruza inzoga.

Inzu isa naho ari depo y' inzoga ziri mu makesi hirya yaho hari abagabo bahagaze, basa naho bagiye kugura kwizo nzoga, ziba ziteretse hasi ku makaro ari hafi imbere y' urubaraza.

Inzu y'ubucuruzi. Iri gucuruza ibintu bitandukanye, nk'uyu muryango harimo udufuka dutondekanyemo, tw'imiceri. Imbere yaho n'ubundi, hariho ibidomora bibiri, n'amabase, kandi iyi nzu irakinguye. Imbere yayo hahagaze imodoka.

Abantu bicaye imbere y'inzu y'amangazini, hariho ni imitaka y'abageti abandi baricaye, barimo abagabo n'abagore.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye isa n'aho icuruza amagare, amagare menshi atondekanye imbere yayo, cyane ko amagare akunzwe cyane cyane urubyiruko.

Inzu y'ubucuruzi irakinguye ifite inkingi zisize irangi ry'umweru, ifite n'amakaro hejuru isa naho itanditse ibitenge bifite amabara atandukanye harimo n'iby'ubururu n'iby'iroza ndetse n'iby'umuhondo.

Icyapa kiri ku marembo, ari mu ibara ry’ubururu. Icyo cyapa cyanditseho Wani moteri, kimanitse hejuru yayo marembo.

Inzu y'igorofa isa naho ari iy'ubucuruzi. Imbere yayo yateretseho umufuka usa naho urimo ibintu. Impande y'aho hicaye umukobwa wambaye ijaketi y'umuhondo ya emutiyene babandi batanga za mitiyu.

Inzu y' ubucuruzi ifite urugi rukinguye, hasi hariho umuntu utwikiye umutaka, asa naho ari gucuruza mitiyu ya airtel, ifite amakaro asa na kaki.

Inzu y'ubucuruzi, yubatse ahantu nko mu mujyi, ifite ibirahuri by'umukara, ifite amakaro y'umweru, hasi naho hari amakararo.

Inzu isa n'aho ari amangazini, ifite urugi rw'umweru irakinguye hirya yaho ifite ibara ry'umweru, hirya yaho hari abantu bicaye, hariho n'undi uhagaze w'umugabo.

Inzu y'ubucuruzi isa naho icuruza imyenda, ibipupe bihagaze mu muryango babyambitse imyenda kugira abantu bari kugenda hanze, babone ubwiza bwayo baze kuyigura.

Isoko ryitwa Kaririyeri, hasi yaryo hari abantu benshi: bamwe bari kugendesha amaguru, abandi bari kugendesha amagare, abandi barahagaze basa n'aho bacucitse hamwe, bamwe bambaye imyenda y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi bita butike ifite urugi rw'umukara, inyuma yayo hariho insina zifite amakoma menshi, impande yayo hariho hatondetse imifuka y'imiceri yo mu bwoko butandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza, ziriho amakaro, zifite inzugi z'umutuku, imbere yazo harimo insinga z'amashanyarazi, imbere yaho hariho n'umuhanda uri kunyuramo abantu basa naho bari kugenda ingendo zitandukanye.

Ubucuruzi bwa kenkayori, buri gucuruza imigozi izwi mu izina ry'imipira ikururaga amazi. Iyi mipira yifashishwa iyo bari gukwirakwiza amazi, ngo ave mu gace kamwe, ari kwerekeza mu kandi.

Icyapa kigaragaza aho bashakira amayinite ya Eyateri. Gifite irangi ry'umutuku, cyanditsweho hejuru "akanyenyeri magana atanu urwego".

Inzu yubatswe neza cyane, ifite ibirahuri bifite irangi ry'ubururu, hejuru yayo hariho amakaro, no hasi imbere yaho hashasheho amakaro.

Amabanki ni meza, yaziye igihe. Abaturage ntibakibika amafaranga aho biboneye, kuko iyo uyabitse aho ubonye ahura n’ibibazo. Amabanki rero, abaturage bose barayayobotse.

Urujya n'uruza rw'abantu bari gucuruza ibintu bitandukanye. Bari gucuruza bikoresho byo mu rugo birimo amadobo, n'amabasi, abandi bari gucuruza amayinite, kuko hari kubonekamo imitaka ya Eyateri n'iya Emutiyeni.

Inzu, inzu yubakishije amakaro, ifiteho ibyapa bifite amabara atandukanye. Amabara amwe asa n’umuhondo, ayandi y’umukara. Bisa naho ari kuranga ibicuruzwa bicururizwa muri iyi nzu.

Hoteri yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hariho icyapa kiriho indabyo, zifite amabara atandukanye harimo n'umuhondo, kigaragaza ko hariho serivisi zo gucumbikamo, n'izo kuriramo ibiryo bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda, aho usanga ku muryango bahateretse ibipupe, bakabyambika imwe muri iyo myenda, kugira ngo abakiriya bayirebe ubwiza baze kuyigura.

Iduka rifite ibara ry'umweru asa naho ari amakaro yometseho, amangazini bisa naho ari inzu y'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza imyenda, imbere yayo ku muryango hahagaze maneke, yambaye imyenda kugira ngo abantu bayirebe baze kuyigura.

Inzu y'ubucuruzi isa naho ikinguye ,imbere yayo hahagaze imodoka. Iyi nzu hejuru yayo hariho amakaro, impande hirya y'aho n'ubundi ,hariho imitaka y'abacuruzi ba mitiyu ya eyateli.

Inzu yubakishije amatafari ahiye . Ifite n'amagambo yanditseho ku ruhande, harimo n'ijambo ryanditse ryitwa Kayitare.

Inzu z'ubucuruzi zifite amara inkingi zisa n'ubururu, imiryango yazo irakinguye, zisize amarangi y'icyatsi, hejuru yazo hometseho amakaro asa n'ubururu budakeye.

Abasore babiri bahagararanye bambaye imipira itandukanye, umupira umwe n'ubururu uwundi ni umukara umwe yambaye ingofero, undi nta ngofero yambaye.

Hoteri ikunzwe hano mu mujyi wa Musanze yitwa Vatima Hoteri. Abantu benshi bakunda kujya kuhateza imbere. Ni igorofa rifite irangi ry'umuhondo n'ubururu.

Icyapa kiri mu marembo ya la Parume, imbere yacyo hariho indabyo z'umuhondo, inyuma hariho agashyamba k'ibiti byinshi.

Inzu zisakajwe ibyatsi nk'iza kera, zifite amarangi asa n'ubururu ndetse n'umuhondo udakeye. Izi nzu zisa, zubatswe nka viringo ya za kera.

Ubucuruzi bw'imyenda ifite amabara atandukanye, iyo myenda imeze nkaho ari iniforume z'abanyeshuri isa n'ubururu, umukara, kaki n'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo ,bigizwe: n'indobo ,ubupaniiye ,amasafuriya n'amarushe n'ibindi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi, imbere yayo hariho ibintu byinshi bitandukanye, imyenda, amasafuriya, bari kuyigurisha bari ku isoko.

Abacuruzi bari gucuruza imyenda b'abagore, bamwe bafite ubupaniye mu ntoki nabwo bari kubucuruza, abandi bari gucuruza imyenda.

Inzu, inzu isakajwe amabati y'umukara, imbere yayo hariho abagore n'abagabo bahagaze abandi bicaye, bambaye imyenda itandukanye imwe y'imituku, umugore umwe yambaye igitenge cy'ubururu, iruhande rwabo hariho ibisheke.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari kudandaza mu isoko .Harimo umwe ufite amandazi mu ndobo mu ntoki zombi ,harimo n'abandi bari kudandaza inkweto ,harimo abagore n'abagabo.

Abantu bahagaze imbere, imbere y'isoko rya Kariyeri. Bambayenda imyenda ifite amabara atandukanye. Ni benshi cyane, bagiyemi isoko. bagiye kugura ibintu bitandukanye. Iri soko rirangwamo ibintu byo kurya.

Imifuka irimo imikeka ifite amabara atandukanye wagirango bari kwamamaza iyi mikeka.

Ubucuruzi bw'imyenda buzwi nka caguwa. itanditse hasi, ifite amabara atandukanye hariho iy'imituku, iy'imihondo n'iy'icyatsi, n'iy'imikara, icuruzwa mu gihugu hose.

Ubucuruzi bw'bikoresho byo mu rugo. Harimo indobo, amabase, n' marushe, n'imyuko. Bifite amabara atandukanye, ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi isa n'aho iri gucuruza imyenda. Imbere yayo hari abantu benshi, bamwe bari mu mitaka basa n'aho hari abakozi ba MTN.

Amandazi ari mu ndobo bakunda kwita amabenya, bayakora mu ngano bashyiramo n'isukari, abana bakunda kurya amabenya kuko abaryoherera.

Inzu yubatse neza ifite amakaro kumpande, ifite inkingi z'amatafari ahiye. Hasi hahagaze abantu babiri, umwe afite imisatsi miremire.

Urujya n'uruza rw' abantu baje mu isoko. Iri soko ryiganjemo ibiribwa, cyane nk'ibitunguru. Abantu bamwe barahagaze, abandi barunamye, abandi bari kugendagenda.

Ubucuruzi bw'inyanya, izi nyanya zisa neza ziri ku isoko, abantu bari kuzidandaza, abagore n'abagabo bose bari imbere yazo. Izi nyanya zisa n'aho zeze neza, ntabwo zahuye n'ibyonyi.

Ubucuruzi bw'inkweto z'amabara atandukanye, zo mu bwoko bwa pantufule. Izo nkweto zifite amabara y'umuhondo , umutuku ,n'umukara.

Ubucuruzi bw'imyenda iri mu bwoko bw'amakuvurori cyangwa se amashuka , afite amabara atandukanye, harimo ay'ubururu ay' imituku nay imyeru, aya mashuka ni meza cyane.

Amazu menshi y'amagorofa akunze kukazamuka azamukiye ku masikaririye kugira ngo bagere ku mazu yo hejuru, abantu bari kuzamuka umwe yambaye umupira w'umweru undi ipantaro yumukara.

Ubucuruzi bw'imyenda, ifite ifite amabara atandukanye, imwe irimo ubururu, icyatsi , indi igiye kuba nk'umweru. Iyi myenda isa n'aho imanitse imbere ku muryango w'inzu y'ubucuruzi.

Amakara tuyifashisha mu butetsi. Ari mu mufuka w'umweru usawa naho wanduye kubera ayo makara, wagira ngo bari kuyagusha.

Ubucuruzi buzwi nko kudandaza, butunze abantu batari bakeya mu gihugu. Abantu bamwe baba bari gucuruza, abandi bari kujya kubagurira, bakagurira ku biciro bumvikanyeho, bose bagahuza, bagahahirana.

Ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, harimo amasafuriya, amabasi n'amasahani ndetse n'ibisorori, ubu bucuruzi bucuruzwa ahantu henshi amasoko yose ab'abifite.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze hasi y'inzu y'ubucuruzi. Aba bantu basa naho bari kujya guhaha, abandi bari gucuruza. Impande y'abo bantu hagaze imodoka z'amavatiri.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bikomoka mu nganda higanjemo umunyu, amavuta, amakaroni n'amasarisa hamwe na mayonezi.